Ni muri salle y'inama aho umuyobozi yicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza, hari igitabo yifashisha hari amatelefone menshi ari imbere ye.

Hari rigori hari ibyapa bibiri byerekana ibijyanye na taransipoti, hari inzu ku ruhande hayo hari n'igipoto kiriho amashanyarazi.

Ni ikibuga kirimo abakinnyi barimo gukina, bahangana bakoresheje umupira w'amaguru, hirya yaho hari abafana bicaye bari kureba ukuntu bari gukina umupira.

Ni abantu bose bari muri siporo bari mu kibuga, hari amatara hirya yaho, bose bari muri gimu hari abari imbere, hari abari inyuma.